Inzu cyangwa se sare nziza iteguye hasi tapi y'ubururu, irimo imeza iriho ibitambaro by'umweru, harimo intebe ziriho ibitambaro by'umukara, ku meza hejuru hariho indabo, harimo n'abantu bari mu kirori.

Inzu yabugenewe gukorerwamo inama iteguyemo ameza, ndetse n'intebe bishinzwe gukorerwaho inama yicawemo n'abantu batandukanye biganjemo abagore n'abagabo bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika ku meza yabo hateretse amaji, ndetse n'amazi abafasha mu nama bajemo.

Guverineri w'umujyi wa Kigali yicaye kuri tebo mu ntebe z'umukara yambaye kositimu n'abandi bagabo, inyuma yaho hari ibyapa byanditseho Kigali keye Kigali yacu, n'abandi bagenzi be kuri tebo hateretse uducupa tw'amazi na mikorofone bari kuvugiraho.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, giteguyemo intebe ndetse n'ameza akorerwaho inama, cyahuriwemo n'abantu benshi baturuka mu bihugu bitandukanye biganjemo abanyafurika ndetse n'abazungu, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije muri iyi nama barimo.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bo mu ngeri zose barimo abagore n'abagabo, bahuriye mu nzu yabugenewe iteguyemo intebe ndetse n'ameza byo gukoreraho inama, inyuma yabo hari umukameramani uri kubafata amashusho mu nama barimo.

Umwe mu bakozi ba polisi y'igihugu bafite n'amapeti akomeye, wambaye unifomu imyenda ya polisi y'igihugu. Yicaye kuri tebo imwe n'umuzungu umwe imbere, yabo hateretse imashini n'amazi na handi sanitayiza.

Ihema ry'umweru ririmo intebe z'umweru zicayemo abaturage n'imeza, harimo n'umudaso umwe n'umumama umwe uri gutanga ibiganiro ku bantu bitabiriye iyo nama.

Abantu batandukanye bambaye amakote, abandi bambaye amashati n'amarineti, harimo abazungu ndetse n'abanyafurika bicaye ku matebo, amatebo yabo agiye ateretseho amamashini ndetse n'amazi bari mu cyumba cy'inama

Icyumba k'inama giteguyemo tabure y'inama ikikijwe n'abantu benshi batandukanye bose bagiye bafite uducupa tw'amazi ya Nile, imbere yabo hari umuntu umwe uyoboye ikiganiro cyangwa inama iri gukorwa aho hantu.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo bari mu cyumba cyabugenewe gukorerwamo inama kirimo ameza yabugenewe ndetse n'intebe z'umukara zicayemo abo bantu bafite n'ama mashini bari kwiga ku kibazo runaka cyabahurije aho hantu.

Ahantu hubatswe ama tente agashyirwamo intebe z'umweru agakusanyirizwamo abaturage benshi batandukanye, hagamijwe guhabwa ibiganiro bya leta cyangwa se ibirori muri rusange.

Umuhanda ni igikorwaremezo gifasha abantu bose mu buzima bwabo bwa buri munsi turavuga abamotari, imodoka ndetse n'abandi bantu bawukoresha mu buryo busanzwe burabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ikirango k'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Reveni Otoriti, gishinzwe gusoresha Abanyarwanda bose bakora ubucuruzi n'ibindi bintu byose byemewe n'amategeko, bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Imashini igendanwa ya laptop, irimo uburyo wamenyekanisha, wishyura ndetse unareba amakuru yose yerekeye na konti yawe ya my Rwanda Revenue Authority.

Harabura iminsi ibiri kugira ngo italiki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku ipatate wa bibiri na makumyabiri na kane ugere, menyekanisha unishyure epatante uyu munsi wirinde amande n'ibihano by'ubukererwe, itangazo rya Rwanda reveni otoriti rikangurira abashinzwe gusora kwishyura imisoro.

Itangazo ryatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe abakozi ba leta, ribamenyesha iminsi y'ibiruhuko, mu rwego rwo kwitegura iminsi mikuru y'Ubunani ndetse na Noheli.

Icyuma gicomekanzeho imigozi myinshi y'umweru n'umukara, icyuma cyo kwa muganga gishinzwe kureba umurwayi nimba umutima we uri gutera neza nimba nta kibazo cyabaye, nimba agihumeka.

Irembo serivisi nshya ku rubuga irembo akadomo komu, ikigo gitanga iyi serivisi, ni polisi icyiciro polisi amazina ya serivisie, gukosoza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga by'agateganyo, ni uburyo wakosoza uruhushya rwawe rwo gutwara ibinyabiziga by'agateganyo ariko ubyikoreye utabanje utagiye ku mukozi wi.

Umunara muremure ugizwe n'ibyuma birebire bigera hejuru, ziteye amabara y'umweru n'umutuku ndetse ugakikizwa n'ibindi byuma biwukorotiriye bigufiya w'itumanaho wa MTN, ufite icyapa cya MTN.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Igipangu kiriho na porotaye, igipangu cy'amatafari ahiye ndetse n'igisenge gisakaje amabati y'umutuku, kiriho n'igisahane cya kanari purisi kimanitse kireba hejuru.

Uruzitiro rukorotiriye umunara, ushinzwe gutanga itumanaho, ndetse n'utundi tubogisi tuba turi hasi ku munara dukorana n'umunara imbere y'inzu.

Amapironi cyangwa se amapoto ashinzwe gukwirakwiza umuyoboro w'amashanyarazi mu gihugu hose, haba ku mihanda ndetse no mu ngo z'abaturage ni amapoto abiri n'insinga zishamikiyeho n'inzu n'ibitambaro.

Urukuta ruriho senyenge ruteye irangi ry'umweru, imbere yaho hari indabyo ndetse n'igiti cy'ururabo kirekire n'ipoto ry'amashanyarazi rishinzwe gutanga urumuri mu muhanda, ricaho n'imigozi y'amashanyarazi.

Indabo, amapoto y'amashanyarazi, ibiti, imihanda y'ibitaka, amazu ya kadasitere n'insinga zitanga amashanyarazi mu baturage.

Iminara inyura mu gihugu hose ishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu hose, haba mu mihanda ndetse no mu baturage mu rwego rwo kugirango buri muturage wese abone amashanyarazi bimworoheye kandi vuba.

Ibyuma bibiri bicomekanze bijya hejuru, ibyuma byinshi biriho imigozi y'amashanyarazi igiye icomekanye umwe uva ku wundi ujya ku wundi, bishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu gihugu.

Umuhanda wa kaburimbo uriho indabo n'ibiti, n'ipironi rishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu muhanda ndetse no mu baturage n'insinga nyinshi zishamikiyeho kw'iryo pironi.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande rumwe uparitseho imodoka ku rundi ruhande rw'ibumoso, uriho inzu n'ibiti byo kumuhanda ndetse n'indabyo n'amapoto y'amashanyarazi n'urusengero n'umuntu uhahagaze.

Umugororwa umwe wambaye imyenda y'abagororwa y'iroza, yambaye n'agapfukamunwa ari kuganira n'umwe mu bametere bamuburanira. Imbere hari agacupa ka handi sanitayiza n'agacupa k'amazi.

Abagororwa benshi barimo abagore ndetse n'abagabo, bari ahantu munsi y'igiti, bategereje gusomerwa urubanza ndetse bari kumwe n'abandi bantu basanzwe, bagiye kubasomera urubanza.

Igipangu kirekire kinini gifite senyenge hejuru gifite geti yanditseho meniziwingi. Imbere y'aho hari akazu k'abasoroveya, hari kandi n'abagore b'abagororwa bambaye imyenda y'amaroza, bambaye n'udutambaro tw'amaroza mu mutwe n'abasoroveya batatu n'iporoni ry'amashanyarazi, hirya hari n'imodoka.

Abantu biganjemo abapolisi abametere cyangwa se abacamanza, n'abantu basanzwe bafashe umukobwa bamuvanye mu rubanza, ahakorerwa ibikorwa byose bijyanye n'icyaha, byiganjemo ubushinjacyaha no gusomera abantu imanza.

Gereza ya Nyarusenge ahafungirwa abagore bemejwe ibyaha bakoze, byemewe n'amategeko aho bajyamo bagafungirwamo, bagakorera ibihano byabo, bagasohokamo ibihano byabo birangiye.

Uhigwa kubera uruhare yagize muri Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata, igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane. Ifoto ya Kabuga Felicien, ashinjwa kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata, igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kane, yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abana, abagore ndetse n'abagabo. Uzamubona azahembwa bishimishije.

Imfungwa nyinshi zambaye inifomo y'iroza zitonze umurongo inyuma y'inzu yanditseho pirizoni, hirya yaho hari umugabo utambaye inifomo n'undi utayambaye uri gusuhuzanya n'undi uyambaye.

Abacamanza babiri bafite ibendera ry'u Rwanda, bari kurahira imbere y'umucamanza mukuru cyangwa se uri kubarahiza ko bazakora neza inshingano bahawe nshya zo guca imanza zitabera, bakorera abaturage nk'uko bigenwa n'itegeko nshinga.

Ihuriro ry'abaturage benshi aho bahurira ahabugenewe hagakemurwa ibibazo bijyanye n'ubutabera aho bikemurwa n'abo bahisemo kubafasha bise abunzi bakabikemura bagendeye ku mategeko yashyizweho na leta kandi batabereye .

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bari mu cyumba cy'inama, bamwe bafite amakayi barambuye ku matako yabo, abandi babiri babicaye imbere, bafite imeza iriho amamashini imbere y'iyo meza hari intebe y'urubaho, ku ntebe ziteretseho amaji n'amazi.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Ibyuma bya kizimyamwoto by'ibihombo byabugenewe bishinzwe kuzimya umuriro ahantu hose habonetse inkongi y'umuriro mu rwego rwo kugabanya kwangirika kw'ibikorwa biri aho hantu.

Inyubako igereretse kane, yubakishije ibyuma, imbere yaho hari imodoka eshatu zihaparitse n'ibiti ndetse n'ibyatsi.

Ibicupa binini, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bigezweho usanga bihenze cyane mu masoko acuruza ibiribwa mu mujyi wa Kigali abantu benshi babigana barinubira igiciro kiri hejuru.

Perezida nyakubahwa Paul Kagame ari gutembera mu baturage yaje kwiyamamaza mu ishyaka rya FPR inkotanyi, yambaye tisheti y'umweru n'amarinete n'agapfukamunwa k'umukara, yakuyemo ingofero y'umutuku yazamuye akaboko.

Nyakubahwa umusaza perezida Paul Kagame, yambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye n'umupira wa FPR inkotanyi n'amarineti y'umukara n'ingofero ya FPR inkotanyi. Yazamuye igipfunsi.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Abaturage benshi bagize ishyaka rya FPR inkotanyi, bambaye ingofero z'umweru, n'imipir y'umweru n'amadapo ya FPR inkotanyi, n'abapolisi bashinzwe kurindira umutekano abaturage ndetse na Perezida muri kampani yo kwiyamamaza.

Abagore basaga bane ndetse n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati ndetse na karuvati bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hari ibintu byinshi bitandukanye nk'uducupa tw'amazi, mudasobwa ndetse n'utwuma ndangururamajwi, inyuma yabo hari ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ibendera ry'ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cy'inama kirimo abayitabiriye bari mu mwambaro usa w'umweruru imipira y'umweru, ameza ariho ibitambaro by'umukara, hariho amazi n'udutabo n'intebe ziri mu ibara ry'umutuku imbere yabo hari porojegiteri, ikimurika kibereka ingingo bari bwigeho cyangwa ibyo bari kwigaho.

Igipangu giteye amarangi y'umweru, ku ruhande rwacyo hari umuhanda wa kaburimbo uri gucamo moto ebyiri, imwe ihetse umuntu indi itwawe n'umumotari, hepfo yaho imiyoboro y'amashanyarazi, amapironi n'imigozi y'amashanyarazi.

Imwe mu modoka itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ikozwe n'ikoranabuhanga, aho winjiramo udafite amafaranga kashi ariko ari ku ikarita. Ukoza ikarita yawe ku muryango w'iyo modoka, hakava amafaranga y'urugendo kuri ya karita yawe, bitewe n'urugendo ugiyemo ukuntu rungana.

Ikibuga cyiza kigezweho gishinzwe kwigisha amamodoka ndetse n'amamoto n'ibindi byose bijyanye n'amategeko y'imihanda, ikibuga kirimo amakona, kirimo kaburimbo ndetse kirimo ahantu heza hari n'indabyo ziconze neza n'ibiti byiza, kiri ahantu hari amahumbezi.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, birimo moto ya rifani, imodoka za kwasiteri n'umuhanda wa kaburimbo n'ah'abanyamaguru hangiritse n'abantu bari kunyuranyuranamo.

Umuhanda wa kaburimbo ufite n'ahabanyamaguru ndetse na rigori urimo ibinyabiziga ibiza ndetse n'ibigenda birimo ubwoko bwinshi bw'imodoka, harimo za rave fo za ndayihatsu n'abantu n'amamoto.

Ihuriro ry'amamodoka menshi, yiganjemo amakwasiteri manini, amatakisi matoya atwara abagenzi n'abantu, aho ayo mamodoka ahurira, hagamijwe gutwara abagenzi ndetse n'ibintu, berekeza hirya no hino mu gihugu.

Ihuriro ry'ibinyabiziga bitandukanye n'abantu benshi batandukanye rizwi nka gare, aho usanga abaturage baturutse hirya no hino mu gihugu, bahahurira bagafata amamodoka agiye ahantu hatandukanye bagiye.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Gare, aho imodoka zitegerereza abagenzi, yubakishijwe amapave, haparitse imodoka za pirive cyangwa se imodoka zigenga, imodoka z'umweru eshatu ziri mu bwoko bwa tagisi vatiri zanditseho yago zishinzwe gutwara abantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amamodoka menshi, ari kugenda ari no kuza ndetse n'amamoto n'abaturage bari gutambuka n'amatara ku muhanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda wa kaburimbo, haba abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga biri kunyuranyuranwamo, birimo umuntu utwaye igare uvuye kurangura.

Moto ya rifani iparitse iriho n'umuntu umeze nk'umukarani uhakora. Moto itwikiwe na shitingi iriho aderese za nyirayo iri ahantu nyine haparikwa ama moto ya rifani isa nkaho itegereje akazi.

Aho abantu bicara muri sitade bahuriye hamwe hagamijwe kureba ibirori biri kubera muri sitade birimo nk'umupira w'amaguru, umuziki, n'ibindi byose bijyanye n'imyidagaduro.

Icyapa cyo mu muhanda kiriho umuntu wunamye, ufite igiti mu ntoki, uri kuyobora ibintu. Kigaragaza yuko umuhanda uri kunyuramo uri gukorwa.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, kigaragaza ko ahantu ugeze nta binyabiziga ibyo ari byo byose byemerewe kuhanyura, icyo cyapa kiba gishushanyijeho imodoka na moto ariko biciyemo akarongo.

Umuhanda w'ibitaka urimo imodoka nyinshi, harimo iziparitse hirya ku mazu ahari ndetse n'izindi ziri kugenda, hari n'abantu bari kunyura mu muhanda.

Ibisenge by'inzu zitandukanye inzu za kadasitere ndetse n'inzu zisakaye bisanzwe z'amazi amwe ndetse hakaba n'imigozi y'amashanyarazi, hakaba n'abapironi, amapoto y'amashanyarazi, hakaba n'ibitoki, hakaba n'amapapayi.

Biragaragara ko ahangaha ari ku kicaro cya emutiyene kuko abakiriya baba bagiye gusaba serivisi zitandukanye abagura simukadi, ababitsa, ababikuza n'ababaza izindi serivisi bakora kugira ngo barusheho kumenya neza iki kigo ibyo gikora.

Ihuriro ry'imihanda riri ahantu runaka mu gihugu, ririmo icyapa kigaragaza ko aho hantu iri mu isantere ari mu ihuriro ry'imihanda, ririmo imodoka eshatu rikabamo abamotari babiri umwe uhetse umuntu, rikabamo imodoka ya rava fo, indi ni iya toyota n'indi ya dayihatse.

Umuhanda wa kaburimbo muremure, uri kunyurwamo n'ibinyabiziga birimo nk'imodoka n'amamoto n'umuntu uhagaze ku muhanda wifashe mu mufuka.